Amazi ni kimwe mu bintu dukenera cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bikadusaba gukoresha amazi meza afite isuku kugira atadutera indwara zigiye zitandukanye tukirinda guhora tujya kwa muganga bitewe n'amazi mabi.

Ikigonderabuzima ni bimwe mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima kandi bakita ku babyeyi batwite kugeza bamaze kubyara, bagakurikirana umwana bakareba ko yahawe inkingo uko zabugenewe.

Muri iyi si hari ibyorezo bigiye bitandukanye, ndetse hari n'ibindi byagiye bigera mu bihugu byacu, ariko ni byiza ko mu gihe twamenye amakuru y'uko icyo cyorezo cyahageze, tugomba kwirinda, tugakurikiza amabwiriza twahawe n'abashinzwe ubuzima.

Ni byiza ko abana bari ku mashuri banywa amazi meza asukuye kandi buri mwana agakoresha igikoresho cye wenyine kugira twirinde za ndwara zikwirakwizwa n'umwanda bityo twinda kuzihererekanya twifashishije ibikoresho byacu.

Ibintu nk'ibi bikunze kugaragara mu gihe cy'ibibazo by'ubuzima nka covide cumi n'icyenda, ebora, cyangwa izindi ndwara zandura. Cyane mu cyaro cyangwa mu mijyi mike kugenzura ubushyuhe bifasha kumenya buba abantu bashobora kugira umuriro ikimenyetso rusange cy'indwara nyinshi.

WASAC ni Ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe gutanga serivise z'amazi n'isuku mu gihugu hose, bacunga uburyo bwo gutunganya amazi bukwirakwizwa kandi ni urufunguzo rw'u Rwanda mu bikorwa byo kunoza amazi meza n'isuku.

Leta yashyizeho uburyo bwiza bwo kubona amazi meza kandi mu buryo bworoshye, ni byiza rero gihe tugiye gutegura ibyo guteka, mu gihe tugiye guteka, mu gihe tugiye koza ibyo kuriraho, ni ngombwa gukoresha ayo mazi meza kandi tukibuka ko mu gihe tugiye kunywa amazi tugomba kuyateka kugira twice udukoko.

Leta yadushyiriyeho uburyo bworoshye bwo kubona amazi meza kandi asukuye, rero ni byiza ko natwe aho tuvoma ndetse n'ibyo dukoresha kugira tuvome tubigirire isuku kugira twirinde za ndwara ziterwa n'umwanda.

SIDA ni indwara yugarije isi cyane, bityo tukaba dusabwa gukaza ingamba yo kuyirinda, ndetse twaba tuzi umuntu wahuye n'icyo kibazo, tukamushishikariza kugana abaganga bakamugira inama ndetse bakabasha kumwitaho ku buzima bwe bwa buri munsi.

World mental health day ni umunsi mpuzamahanga w'inyigisho z'ubuzima bwo mu mutwe kukangurambaga no guharanira kurwanya ihohoterwa rishingiye ku mibereho yizihijwe bwa mbere mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kabiri ku bushake bwa federasiyo y'ubuzima bwo mu mutwe.

Hari uburyo bwinshi twifashisha mu gusukura amenyo yacu kugira twirinde indwara zigiye zitandukanye, harimo abifashisha umuti w'amenyo, hari n'abandi bakoresha ibiti ariko ni byiza ko twegera umuntu wabihuguriwe ubifitiye ubushobozi akatugira inama y'ibikoresho tugomba gukoresha kandi byujuje ubuziranenge.

Amenyo yacu ni ngombwa cyane kuyitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse yaba yagize ikibazo twikihutira kugana muganga ubifitiye ubushobozi, tukirinda kujya kureba abaganga ba magendu kuko bashobora kugusigiramo ubundi burwayi butandukanye.

Ni byiza kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye harimo diyabete, umuvuduko kuko bigufasha kumenya ko ugomba kwirinda ndetse bakaguha n'inama ku bigendanye n'izo ndwara bakakubwira n'ibiryo ugomba kurya byuzuye intungamubiri kugira wirinde.

One by one nu ubukangurambaga bw'agakoko gatera sida bigamije guteza imbere ubuyobozi bw'urubyiruko mu kurwanya virusi itera sida muri afurika kurwanya agasuzuguro n'ivangura bikikije virusi itera sida no guharanira ko umuntu yipimisha virusi itera sida kwirinda no kuvurwa

Ikigo nderabuzima cya Gereyatirike senta ni ikigo nderabuzima kizobereye mu kwita no gusubiza mu buzima busanzwe abantu bageze mu za bukuru, kibanda ku guteza imbere ubuzima bwigenga no gukemura ibibazo byabo byihariye by'ubuzima.

Ibigo nderabuzima bitanga serivisi zigiye zitandukanye harimo n'iz'ababyeyi aho bakirira ababyeyi bamaze kubyara kugira bakomeze kubitaho ndetse bakomeze gukurikirana umwana bamuha inkingo zigiye zitandukanye.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda ni kaminuza ya leta mu Rwanda, kandi yashinzwe muri bibiri na cumi na gatatu, ihuza ibigo byinshi bya leta, harimo amashuri makuru y'ubuvuzi, ubuhinzi, uburezi, ubucuruzi n'ibindi byinshi.

Ku ishuri ni ahantu dukura ubumenyi bugiye butandukanye kandi bakatwigisha kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ku bigendanye n'amenyo kugira tuyarinde, twirinda indwara zishobora guterwa n'amenyo.

Inyubako z'ubuvuzi zibamo abatanga ubuvuzi butandukanye nk'abaganga rusange, inzobere mu kubaga umutima, mu kuvura amenyo, ibi bituma byorohereza abarwayi kubona serivise zitandukanye ahantu hamwe ndetse ku buryo bworoshye.

Leta yadushyiriyeho uburyo bwiza bwo kubona ubuvuzi bugendanye n'amaso bityo tugahura n'abaganga bakatugira inama y'ukuntu tugomba kwita ku maso yacu mu gihe yagize ikibazo kandi bakadufasha kuyavura kandi neza.

Kwa muganga haba serivisi zitandukanye, hari abarwayi baba barembye cyane baha ibitaro kugira ngo bababashe kubitaho, bakamenyera ko babonye imiti ku isaha kandi bakabagenzura ko ubuzima bwabo buri kugenda neza.

Amazi ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse ni byiza kunywa amazi mu gihe cyose ubyutse, ndetse mu gihe wakoze siporo nyinshi ni byiza kunywa amazi ahagije kugira wongere kugarura imbaraga mu mubiri.

Siporo ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse bikaba akarusho mu gihe dufata ibiribwa bifite intungamubiri, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibyubaka umubiri, kandi bikaba byiza cyane mu gihe tubifatiye amasaha ya nyayo.

Hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bwihutirwa mbere y'uko ubufasha bw'umwuga buboneka, harimo nk'ibitambaro byifashishwa mu gupfuka ibikomere, harimo imikasi mu gukata kasete ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ni byiza cyane gukora siporo kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bidufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye, harimo umuvuduko, diyabete kandi bikaba akarusho mu gihe wabikorewe n'umuntu wabihuguriwe ubifitiye uburenganzira.

Alliance ni kimwe mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima. Itanga imiti igiye itandukanye harimo nka si tuwenti seveni igizwe n'intungamubiri ziva mu bimera bitandukanye zigera ku bihumbi makumyabiri na bibiri zihereza umubiri ubwirinzi ku ndwara irimo amoko agera kuri makumyabiri nicyenda ya vitamine n'imyunyugugu bitandukanye birinda kandi bikongera ubwirinzi ku ndwara nyinshi.

Inzuki ni bimwe mu biremwa bitangaje, kandi bifite agaciro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Rero abantu benshi ntibakunda kubimenya, ariko niho hakunda kuva imiti gakondo, kandi ikatuvura indwara zigiye zitandukanye, hifashishijwe ubuki.

Alliance ni kimwe mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, bakoresha imiti gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo imivuduko, harimo za diyabete, hifashishijwe imiti yacu ya gakondo, ku buryo bwiza.

Ubuvuzi bwa gakondo ni bumwe mu bwunganira ubuvuzi bwa kizungu, badufasha gukurikirana ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi mu gihe ugiye gukoresha ubuvuzi bwa gakondo umenya neza ko byemejwe n'ikigo gishinzwe ubuzima.